Abantu bafite ubumuga bicaye mu kagare kabafasha kugenda bava ahantu hamwe bajya ahandi, bafite ibintu by'umweru mu ntoki kandi bambaye agapfukamunwa, inyuma y'aho hari abagabo babiri bahagaze.

Abantu batwaye umurwayi kwa muganga, ni mu buryo bw'imbangukiragutabara yihuse umurwayi yarembye. Bamutwaye mu buryo bw'ingobyi cyangwa bamuteruye kugira ngo bamugeze kwa muganga byihuse. Bikorwa cyane n'abashinzwe ubutabazi bw'ibanze cyangwa hakaba hari abantu benshi ba croix rouge cyangwa n'abandi batandukanye.

Abagabo babiri bateruye igikoresho kirimo ibintu, bambaye agapfukamunwa kandi buragorobye, begereye imodoka ya Nyagatare, y'Ivuriro rya Nyagatare, imodoka y'umweru ikoreshwa n'Ibitaro by'Ivuriro bya Nyagatare.

Imodoka y'imbangukiragutabara irimo agatanda umurwayi aryamaho ndetse n'agatebe umurwaje cyangwa umuganga ugiye kugenda amwitaho mu modoka aba yicayeho. Ni imodoka y'imbangukiragutabara itwara abarwayi barembye ibajyana kwa muganga kugirango ngo babashe guhabwa ubufasha bw'ibanze.

Abantu bahuriye ahantu, ahantu hari inzu ziteye ku umucanga gusa, kandi harimo abagabo babiri bambaye impuzankano z'ikigo gishinzwe ubutabazi, aho bari kumwe n'abadamu babiri bari imbere barimo kwifotoza, bafashee ku gipapuro bose barimo kwifotoza, inyuma yabo kandi hari abandi bantu benshi.

Abantu batatu bari mu cyumba. Umwe yaragaze abandi babiri baricaye, umwe ni umuganga arimo kwita ku murwayi, aho arimo kumutera urushinge kugira ngo bamukuremo amaraso bamupime nk'indwara. Akenshi bikorwa bagiye gupima nka malariya cyangwa sida.

Abaganga babiri bambaye ubupfukamunwa, ndetse n'ibindi bintu birinda indwara z'ibyorezo. Bakuye umurwayi mu modoka, itwara abarwayi, yitwa imbangukiragutabara. Umurwayi bamutwaye ku kagare, arasa nk'uwarembye cyane, bagiye kumukorera ubutabazi bw'ibanze. Ni abaganga babiri n'umurwayi umwe batwaye.

abantu bane bicaye hamwe. Bose bafite impapuro, kandi ku meza yabo hari amazi yo kunywa. Umwe yambaye isengeri y'umutuku, iriho igishushanyo cy'umusaraba, n'undi wambaye ingofero y'umutuku iriho igishushanyo cy'umusaraba, bishatse kuvuga ko bano bashinzwe ubutabazi bw'ibanze, akenshi baba bakorera ikigo cya Croix Rouge. Ni cyo kigira ikirango kimeze gutya n' imyenda y'imituku.

Abantu bambaye impuzankano ririho ikirangantego cya kururwa ruje cyangwa nk'ikigo cy'ubutabazi bw'ibanze, barimo guhabwa amasomo y'uburyo bakagombye gukora ubutabazi, kugira ngo ni bajya ahantu hari umuntu warwaye babashe kumenya uburyo bazamufashamo.

Umuganga ndetse n'umurwayi, inyuma yabo hari abandi bicaye barimo kureba uburyo umurwayi ari guhabwa ubuvuzi, umurwayi bamuteye urushinge muganga amuha n'agakoresho kifashishwa mu guhanagura amaraso.

Abantu bicaye ku murongo bari mu ivuriro, bamwe ni abadamu bafite abana, abandi ntabana bafite abandi ni abagabo bicaye ku murongo bategereje guhabwa ubufasha bw'ubuvuzi. Ni abantu bari kwa muganga baba bicaye ku murongo bakakirwa bakurikije uwaje mbere kugeza ku waje nyuma.

Amarembo manini arimo icyapa kirimo gutanga ikaze mu bitaro bya kigeme, bivuze ko ari ivuriro ritanga ubuvuzi bwisumbuyeho bw'ibitaro, aho babavura indwara z'abantu barembye cyane, nk'abagiye kubyara, cyangwa barwaye izindi ndwara zikomeye.

Icyumba cy'abarwayi baba barembye, akenshi buri vuriro rigira aho abarwayi bagomba kuba bari, akenshi abangaba baza iyo barembye cyane, muganga agakanga ko batahe ahubwo bakaha ibitaho bari kwa muganga, ibyo bakunze kwita abantu barwariye mu bitaro.

Ivuriroho ry'ikigo nderabuzima cya Tabawe, iri vuriro riboneka mu murenge wa Tabawe umwe mu murenge ugize akarere ka Nyagatare. Ni ivuriro ririmo abantu batandukanye aho abarwayi bajya kwivuriza indwara zigiye zitandukanye.

Icyumba kirimo abarwayi barembye cyane ni icyumba cyabugenewe kiba kiri kwa muganga aho bita mu bitaro, iyo umuntu arwaye cyane abaganga bakabona batamurekura ngo atahe kuko aba akeneye kwitabwaho n'abaganga bamwohereza muri bino byumba, haba harimo uburiri bagomba kuryamaho nk'uko burimo hano, ibitanda rero ni byo biryamaho abarwayi kugira ngo babashe kwitabwaho.

Abarwayi bari kwa muganga bafite amafishi babahaye bagomba kuzuza kugira ngo bivuze, bamwe bafite n'indangamuntu, umuganga ubafasha arimo kugenda yumva uko bameze, abarwayi bategereje kwitabwaho n'abaganga.

Mu ivuriro, ni ahantu hari inzu ifatwa nk'ivuriro, irimo uburiri butandukanye, haba harimo abarwayi barembye cyane, batagiye, bataretse ngo batahe ahubwo bakaguma kwa muganga kugira ngo bakomeze kwitabwaho, abo ngabo barekurwa bagataha iyo bamaze koroherwa, rero ubu buriri buryamyeho umuntu kandi bukunda kuryamaho abantu barembye.

Abantu batandatu bahagaze imbere y'ameza manini. Harimo umudamu umwe uhetse umwana, umudamu, umukobwa n'umugabo umwe bambaye impuzankano zisa n'abagabo babiri bambaye impuzankano zisa n'undi mugabo umwe wambaye umupira w'umukara. Bari imbere y'ameza kandi hateretse imiti. Bambaye imyenda isa nk'iy'abakozi bo kwa muganga.

Abantu bari ku murongo, imbere yabo hari icyapa cyanditseho amagambo yo kwibuka, kwibuka mu karere ka Nyagatare byakozwe n'ibitaro bya Nyagatare, harimo abantu batandukanye kandi barikwibuka ku nshuro ya mirongo itatu.

Abantu barimo abagore n'abagabo baricaye, abandi babari imbere ni abaganga bategereje kwakirwa, bicayeye mu buryo buri ku murongo bari mu nzu ntoya, aho umugabo umwe ahagaze arimo kubaganiriza, abandi baganga baricaye imbere yabo hari ameza ndetse n'ibindi bikoresho.

Abantu batandukanye bari mu muhanda. Harimo inzego z'umutekano nka Polisi, Polisi ishinzwe ibyo mu muhanda, ndetse abo bantu bafite icyapa cyanditseho, Kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu. Ibitaro bya Gatunda. Ni igikorwa cyo kwibuka gikorwa n'ibitaro bya Gatunda, mu Karere ka Nyagatare ,aho bari bari kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi icyenda kane, ku nshuro ya mirongo itatu.

Abantu bari kwa muganga. Ababyeyi babiri bafite abana ndetse n'umugabo umwe, barimo guhereza ibyangombwa umuganga harimo igipande n'irangamuntu, bicaye bategerereje ko umuganga abafasha, ashobora kuba barimo abana barwaye cyangwa ari ba nyina barwaye.

Abaganga babiri barimo kurebera mu mashini ikunda kureba indwara zitagaragara aho bareberamo mikorobe, akenshi bakunda gupimiramo n'amaraso kugira ngo barebe ko amaraso ari mazima.

Abantu benshi harimo ababyeyi n'abagabo. Ababyeyi benshi kandi bagiye bafite abana barabakikiye abandi barabahetse bicaye ahantu hamwe baje mu gikorwa rusange, ibiganiro cyangwa ikirori cyahabereye.

abana bakiri bato kandi barimo kunywa. Barimo kumuha igikoma cyangwa ibindi bintu bibafasha nk'inyunganiramirire kugira ngo bakure neza kandi bakure nta kugwingira, nta n'indwara za bwaki barwaye. Ni kimwe mu bikorwa leta ikora kugira ngo itume abana bagira imibereho myiza kandi banakure neza.

Abantu bicaye hamwe, harimo abagabo n'abagore kandi inyuma harimo abafite imitaka ibiri. Bari kureba mu cyerekezo kimwe, aho bakurikiye ikiganiro. Harimo abambaye amataburiya y'ubururu akenshi bakunze kuba ari abajyanama b'ubuzima. Bishatse kuvuga ko hari inama ishobora kuba iri kuganiriza abajyanama b'ubuzima bagiye baturutse mu duce dutandukanye kandi bameze nk'abari ku ivuriro.

Abantu batatu bicaye harimo umugabo umwe nabadamu babiri; umudamu umwe yicaye ku ruhande itaburiya y'ubururu, ndetse abandi baregeranye bameze nk'umugore n'umugabo. Uyu mudamu wambaye itaburiya y'ubururu ni umuganga cyangwa umunyabuzima, urimo gutanga inama kuri aba babiri bashyingiranywe, cyangwa baje kwipimisha cyangwa baje kumva ubujyanama.

Umubyeyi uri kwa muganga. Yamaze kubyara akikiye umwana arimo kumwonsa. Yambaye igitenge kandi bamupfutse ku kaboko, ameze nk'umuntu wagize n'ikibazo ku kaboko.

Abantu batwaye umuntu warwaye, bambaye impuzankano z'icyatsi ndetse ishushanyijeho umusaraba, batwaye umuntu warembye, barigereza imodoka z'imbangukiragutabara kugira ngo bamujyane kwa muganga bamuhe ubuvuzi.

Abantu bicaye hamwe kandi ari benshi. Harimo abagabo n'abagore. Bamanitse amaboko. Inyuma yabo hari icyapa. Harimo ibyapa byanditseho amagambo ajyanye n'ubuzima cyangwa igikorwa kijyanye n'ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima.

ivuriro ry'ibitaro ni inzu iriho icyapa kigaragaza ko ari ivuriro. Aho abarwayi bajya bakajya kwivuza. Baba batangira serivisi zitandukanye: nko kuvura abarwayi barwaye indwara zo mu nda, amaso, malariya ndetse n'umubyeyi ugiye kwibaruka bakaba bamufasha akabyara.

Ababyeyi benshi bicaye ahantu hamwe kandi bambaye imyenda isa hejuru, mu mupira w'umweru bicaye ahantu hamwe bakurikiye ikiganiro babikorera mu kerekezo kimwe akenshi ni ababyeyi bafite n'abana aho baba bakurikiye ikiganiro kijyanye n'ubuzima cyangwa ibindi biganiro byagenewe abadamu bitandukanye, bari ahantu mu nzu hisanzuye.

Umuganga ndetse n'abarwayi babiri. Bari mu ivuriro, aho muganga arimo kwandika, abandi barwayi bakaba bicaye bamutegereje. Aha ni hamwe usanga muganga arimo gusuzuma abarwayi noneho umurwaye akamubwira icyo arwaye, umuganga akabyandika kugira abashe kumenya ibizamini bamufatira n'imiti bagomba kumuha.

Abantu bicaye bakoze uruziga, harimo abagore n'abagabo bameze nk'abantu bari mu itsinda cyangwa barimo kuganira ku ngingo runaka, akenshi bikunze kuba mu cyaro aho abantu bakora amatsinda bakaganira cyangwa bakajya bahura bagateranya amafaranga mu buryo bwo kwizigama.

Umuganga uri mu nzu y'ubucuruzi. Aho acuruza imiti y'abarwayi. Harimo imiti itandukanye, iy'ibinini ndetse n'iy'amatembabuzi. Ni ahantu umurwayi ajya, muganga akamusuzuma noneho yamara kubona indwara arwaye, muganga akamuha imiti noneho umurwayi na we akamuha amafaranga.

Inzu y'ubucuruzi aho bacururiza imiti y'arwayi inzu y'icyapa cyo mabara y'umutuku cyanditseho kifaruma bishatse kuvuga ko ari ahantu bacururiza imiti y'abarwayi aho umuganga ajya akahicara agategereza umurwayi akamusuzuma noneho akamuha imiti imurwayi nawe akamwishura.

Inzu irimo ibicuruzwa by'imiti y'abarwayi. Akenshi ibi ngibi bikora iyo umuntu wize ibintu bijyanye n'ubuganga. Ajya kurangura imiti y'indwara zigiye zitandukanye akayegereza abaturage kugira ngo umuturage narwara ajye agenda muganga amusuzume noneho amuhe imiti y'umurwayi nawe amuhe amafaranga.

Inzu y'ubucuruzi irimo imiti myinshi itandukanye ivura abantu. Harimo kandi umuganga ushinzwe gutanga iyo miti. Igihe umuntu arwaye akajyayo akajya kwisuzumisha muganga akamuha imiti nawe we akamwishyura.

Inzu y'ubucuruzi icuruza imiti akenshi iba icuruza imiti y'abarwayi imiti imwe iri mu makarito indi iri mu ducupa, aho umurwayi yagize ikibazo agenda akegera umuganga uri gucuruza imiti muganga akamusuzuma akamugenera imiti ihwanye n'indwara arwaye maze umurwayi nawe we akamwishyura.

Inzu y'ubucuruzi. Inzu icuruza imiti ivura abantu. Iyi miti iri mu bwoko butandukanye, hari iri mu ikarito, mu ducupa ndetse ikaba ari imiti y'amatembabuzi n'ibinini. Aho umurwayi warwaye aza kureba umuganga ucuruza imiti akayimuha cyangwa akabanza akamusuzuma mbere yo kuyimuha maze akabona kumuha imiti umurwayi akishyura. Muganga abikora mu buryo bwo kubona inyungu.

Ibinini biri mu moko atandukanye, ni ibinini biri mu buryo butatu, hari ibisa umwe, akenshi ibisa umweru kandi binini, biba bivura umutwe, hari n'utundi tunini dutoya n'amakaripo menshi y'ibinini ahari ndetse hakaba n'agapapuro kariho amakashe menshi.

Inzu irimo ibicuruzwa by'imiti ivura abantu. Ni ahantu umuntu ashyira imiti cyangwa akayirangura, akayitereka ahantu mu nzu, noneho akajya ategereza abarwayi barwaye bakaza kwivuza. Aho umuntu uba urimo aba yarabyigiye kandi ari umuganga, agasuzuma umurwayi, akareba ikintu arwaye noneho akamuha imiti, umurwayi na we akamuha amafaranga.

Mu mafoto y'abantu babiri, harimo Dr Marie Grace Niwemuhoza, ndetse na Clarisse Nyiramana. Bari mu bukangurambaga bwo gutanga serivisi z'ubujyanama, mu gupima no kwita ku bafite virusi itera sida, mu bitaro by'Akarere ka Nyarugenge. Isango Star Radio niyo irimo kubitangaza.

Abantu bahuriye hamwe harimo abakobwa n'abahungu, ni abantu bari mu kigero cy'urubyiruko, bambaye impuzankano z'imipira y'umuhondo n'imipira y'umukara, bafite icyapa cyanditseho ngo turwanye ibiyobyabwenge mu rubyiruko, bari mu gikorwa cyo guhashya no kurwanya ibiyobyabwenge no kubibwira abandi bose mu rubyiruko kugira ngo birinde ibiyobyabwenge.

Umuntu ari imbere y'abantu afite indangururamajwi arimo kubaganiriza, inyuma ye hari icyapa cyanditsweho amagambo ngo: "Ipimishe virusi itera SIDA" ari mu bukangurambaga bwo gushishikariza abantu kwipimisha ngo barebe ko bataranduye SIDA, abayanduye bafata imiti batarayanduye bayirinde.

Abantu bahuriye hamwe, abenshi bambaye impuzankano z'imipira isa, harimo kandi n'abashinzwe umutekano, Polisi n'umusirikare. Bafite ibyapa bakiri gukora ubukangurambaga bwo kwiga gukoresha agakingirizo nka kimwe mu birinda indwara zitateganyijwe.

Abantu benshi bafite icyapa cyanditsweho ngo twimakaze ibiganiro byigisha buzima bw'imyororokere mu rubyiruko no mu miryango, barimo gushishikariza abantu kujya baganira ubuzima bujyanye n'imyororokere, cyane cyane mu rubyiruko ni ubukangurambaga burimo gukorwa n'ikigo gishinzwe ubuzima RBC gifatanyije na USAID.

Abantu bicaye ku murongo harimo abadamu n'abagabo abafite abana n'abatabafite, bari ahantu hameze nko kwa muganga aho bicaye ku murongo bategereje ko muganga abakira. Akenshi kwa muganga muganga yakira abarwayi akurikije uko bagiye baza, kuva k'uwaje mbere kugeza ku waje nyuma, bicaye rero bategereje ko babafasha.

Umubyeyi uheretse umwana afite n'undi yafashe akaboko, arimo kugenda yerekeza ku nzu y'inyubako, akenshi inzu zisa gutya ziba ari amavuriro, afite bage mu ntoki, aho iba irimo ibikoresho by'umwana, nk'ibyo yakwishisha amuhindurira.

Umuganga aricaye n'umurwayi aricaye bose bambaye udupfukamunwa ,muganga afite ikayi arimo kwandika . Ameze nk'umuntu urimo gusuzuma umurwayi ,aho umurwayi abwira muganga ikibazo afite, noneho muganga akagerageza kumva ndetse no kumushakira imiti ihwanye n'uburwayi afite.

Inzu iriho icyapa cyanditseho ivuriro. Ni ivuriro ni ahantu abarwayi bajya kwivuriza cyangwa kwisuzumisha mu gihe bafite ibibazo, ahangaha baba batanga zimwe mu bicuruzwa bitandukanye, harimo nko kubyaza kuvura za malariya ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano y'ubururu, arimo gukaraba kuri kandagira ukarabe kugira ngo abashe kujya mu ishuri yakarabye intoki. Hakunze kuba mu kigo cy'abanyeshuri aho umwana kugira ngo yigere ku ishuri, abanza gukaraba. Inyuma ye kandi hari umwarimu wambaye taburiya nk'impuzankano y'abarimu ndetse n'undi mugabo umwegereye wambaye impuzankano y'ubururu.

Inzu yubatse, ikaba isize amarangi y'icyatsi yanditseho icyapa kivuga ngo gira ubuzima. Akenshi inzu zanditseho ayo magambo aba ari ikigo nderabuzima, aho abarwayi bajya barwaye bagahura na muganga akabavura. Akenshi bakoresha iyo mituweri nka kimwe mu bwishingizi bubafasha kwishyura amafaranga make mu kwivuza.

Umuganga ndetse n'umurwayi muganga yamwambitse igikoresho gipima umuriro, yakimwambitse ku kaboko. Umurwayi ni umuntu ukuze kandi w'umukecuru. Umuganga arimo kumurebera ibisubizo uko bimeze.

Umudamu ari imbere ya muganga, muganga yambaye ga ndetse n'inifomu z'akazi, agiye kumuha imiti, imbere ya muganga hari impapuro ndetse n'imiti itandukanye.

Ikigo nderabuzima, umugabo ari imbere ya kanagira ukarabe arimo gukaraba kugira ngo ajye mu kigo nderabuzima, ikigo nderabuzima aho cyakira abarwayi baturiye muri ako gace cyangwa uwaturutse kure aho batanga ubufasha bw'ibanze cyangwa ubukomeye, aho umurwayi yarwaye bakamusuzuma, bakamuha imiti igomba kumufasha gukira.

Umuganga ndetse n'umurwayi, umurwayi yararyamye yavuze ko ari mu bitaro, muganga harimo kumusuzuma. Yambaye ibintu mu matwi bikoreshwa bari kumva ko umurwayi arimo guhumeka.

Ababyeyi bicaye ndetse n'abandi bahagaze. Bari kwa muganga, aho ababyeyi benshi bafite abana. Impande yabo hari umuganga, ufite igitabo yandikiramo. Ni igihe ababyeyi baba baje nko gukingiza abana, cyangwa baje kubavuza.

Inzu igeretse. Ku nzu yo hasi hari ibicuruzwa by'imyenda, ndetse n'ibipupe bayambika kugira ngo babashe gukurura abakiriya. Hejuru yaho, hariyo icyapa k'ivuriro rivura amenyo.

Abantu bafite igikoresho cyitwa umurasire, cyangwa mu ndimi z'amahanga cyitwa pano. Iyi ngiyi ikoreshwa mu gukurura umuriro uturutse mu mirasire, bakunda kumanika hejuru y'inzu, noneho ugatanga umuriro umeze nk'amashanyarazi, aho wayikoresha mu gucana amatara, cyangwa ukora ibindi byose amashanyarazi akora. Bashobora kuba bagiye kuyimanika kuri iyi nzu ibari inyuma.

Inzu yubatse neza kandi iri mu irangi ry'ubururu, hariho icyapa cya gira ubuzima bivuze ko hari ikigo nderabuzima aho abaturage bajya kwivuriza bagahura na muganga, kandi hari abantu bicaye mu rubaraza harimo abarwayi baba baje kureba muganga kugira ngo abashe kubavura.

Ababyeyi batatu, harimo babiri bafite umwana, umwe ari kumuha ibere, undi ahetse umwana, undi mudamu nta mwana afite. Umudamu umwe ahagaze mu idirishya, arimo kwaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Aho batangira ibyangombwa bigaragaza ko batanze ubwishingizi mu kwivuza mitiweri, aho abitanga kugira abashe guhabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Icyapa kiriho amagambo aranga ivuriro rya RAPHA hariho kandi amagambo agaragaza serivisi batanga harimo nk'ubuvuzi busanzwe, kubaga, kuboneza urubyaro, kuvura amenyo ndetse n'ibindi kandi iri vuriro ko riri ku cyapa hagaragara n'ibigo bakorana by'ubwishingizi harimo: SANRAM, RSSB n'ibindi na Mituweli.